Umunyenga w'abana ni mwiza, iyo abana bari gukina bagakina ku munyenga kuzenguruka biba byiza cyane, abantu bishima bakagira ubuzima bwiza, bakiga neza bagateza imbere imiryango yabo n'igihugu cyabo kigatera imbere.

Abarimu ni beza. Abarimu batanga ubumenyi ku banyeshuri. Umuntu wese akabona ubumenyi agateza imbere umuryango we. Abarimu babona amafaranga bagatanga imisoro kuri Leta, bakishyurira abana babo amashuri, bagatanga, noneho abana babo bakabaho neza kandi bakagira ubuzima bwiza.

Ubusitani ni bwiza, iyo umuntu yicaye mu busitani aruhuka neza, akabona akayaga, akayaga kakamushimisha, kakamumuha akumva ubuzima bugenda neza, akagira ubuzima bwiza, bikamurinda uburwayi, bikamurinda guhangayika, kandi bigatuma aruhuka neza.

Abanyeshuri ni abana beza. Iyo umuntu ari kwiga bituma agira ubumenyi bwinshi, ateza imbere umuryango we, n'aho atuye akahateza imbere, kandi akamenya byinshi agasobanukirwa byinshi.

Mwarimu iyo ari kwigisha abanyeshuri, abanyeshuri bicaye neza kandi batekanye, bituma bamukurikira neza nta kibazo. Iyo umwarimu ari kwigisha yambaye itaburiya y'umweru, bituma abanyeshuri bamureba kandi bakamureba bose uko bangana.

Abantu bari kuyora ibitaka. Iyo abafundi bari gukora ahantu hari ibitaka, bakabiyora biba ari byiza cyane. Ibitaka barabyubakisha. Abakozi bakora mu bufundi babona amafaranga, bagateza imbere imiryango yabo.

Abatetsi beza, iyo abatetsi batetse ibiryo bigenda neza, iyo umuntu yatetse ibiryo yambaye imyeru, bituma abiteka bifite isuku, kandi bimeze neza. Abatetsi badufatiye runini cyane, kuko aribo batuma tugira ubuzima bwiza kubera badutekeye ne...

Ubudozi ni bwiza ,abantu badoda babona amafaranga, abantu badoda barihira abana babo amashuri bagateza imbere igihugu, bagatanga imisoro, bikagabanya ubushomeri mu gihugu ,igihugu cyacu kigatera imbere n'abagituyemo bakagira ubu .....

Abarimu nibeza abarimu batanga ubumenyi, abana bakamenya bagasobanukirwa neza, bakagira ubwenge bagateza, imbere igihugu cyabo, bagakora ibintu byinshi bitandukanye, bavanye uburezi ku barimu. Abarimu batuma tugira igihugu kirimo abana basobanu.

Computer n'umurasire ni byiza. Iyo umuntu afite umurasire ariko kuwukoresha hari izuba ni byiza cyane. Nta mashanyarazi ari aho hafi, umurasire bawubyaza umusaruro bakabona amatara, bakabona kogoshakako n'akandi kazi gatandukanye bigatuma abantu batera imbere.

Abaganga ni beza, abaganga bavura abantu, abantu bagakira, bakagira ubuzima bwiza, igihugu cyacu kikagira abantu bameze neza, igihugu cyacu kigatera imbere, abaganga bari bamwe mu bikorwa biteza imbere igihugu cyacu.

Polisi ni nziza, iyo polisi yagiye kwigisha abana b'abanyeshuri biba ari byiza cyane, bituma bamenya ibintu byinshi byiza bituma bamenya amategeko menshi, iyo polisi yagiye kwigisha abanyeshuri, umupolisi ugiye kwigisha abanyeshuri bamuha amafaranga, bituma ateza imbere umuryango we n'abanyeshuri bakagira ubumenyi bwisumbuye.

Abakozi bakora ibikoresho by'ikoranabuhanga ni beza, iyo igikoresho cy'ikoranabuhanga cyapfuye, ukagikoresha nka compiyuta yapfuye, ukayikoresha biba ari byiza cyane, kuko ikora ibintu byinshi bitandukanye, bakora n'akazi kenshi gatandukanye kandi korosha.